Intebe zo mu ishuri pipitire abanyeshuri babaga bambaye iniforume bakigira no ku mfashanyigisho z'ibishushanyo mwarimu ashushanyaga. Iyo bicaye mu ishuri babaga bari kwiga bambaye iniforume, impuzankano bakiga bose batuje, umwana yicaye ku ntebe ye.

Amashuri gabanza ga pirimeri, abanyeshuri bajyaga ku ishuri. Mu mashuri bagiye barubaka ibyikoni byo gutekeramo abana. Hari abubakaga ibya kijambere bibaga birimo n'amakaro, birimo n'utubati two kubikamo ibyo kurya, bibaga birimo n'amasafuriya go gutekeramo, habagamo na ravabo zo kogerezamo amasahani.

Ku bigo by'amashuri ga leta habagamo amashuri g'abanza n'agisumbuye, hakabamo n'imikino abanyeshuri bakinaga nk'imyicundo z'abana bo muri garidiyene bicundebagaho, bifashaga abana mu gukangura ubwonko bwabo kugira ngo bige bameze neza.

Abanyeshuri bo muri segonderi bajaga kwiga bambaye iniforome. Bambaraga n'inkweto bakajana n'ibitabo babaga barabahaye ku ishuri byo gusoma, imfashanyigisho, bakazinduka bagakora na etide . Basubiraga mu masomo kugira ngo ibyo mwarimu yabigishaga babashe kubyumva neza.

Iwa mu Rwanda tugira ibyiza nyaburanga n'ibibumbano baba barabumbye, abantu bize ubukorikori babumba nk'abantu bashushanya ifoto y'umuntu bakajya ku bibumba, bakayatereka ahantu cyangwa se nk'inka, cyangwa se n'ingagi, byose barabikora maze abantu bakabyifotorezaho n'abazungu baraza bakabyifotorezaho, bakadusigira amadevize.

Abarimu bigishaga muri segondere barimo gukorera ubushakashatsi ahantu runaka mu mucaca hanze, kugira ngo babone ibyo bigisha abanyeshuri, nabo bazaje gukora ubushakashatsi kugira ngo bamenye iby'ubumenyi bwisumbuye k'ubwo bari bazi.

Mu mashuri g'imyuga bigishagamo imyuga zitandukanye, hari imyuga zo gusudira izo myuga zifashaga abanyeshuri kugera hanze bagashaka akazi bakihangira imirimo, basudiraga inzugi, bagasudira amadirisha ga mitalike bibaga bikomeye cane, ariko abo bantu babyigaga bakoraga bambaye amakasika kugira ngo batangiza amaso ubwabo

Abaganga batandukanye bigaga kuvura bakabikorera muri laboratwari; bajaga muri laboratwari bagafata ibyo kwigiraho nk'ibipupe bakigiraho nk'ibipupe by'abana uko bavuraraga abana, indwara z'abana ,uko bazisuzumaga ni uko bafataga ibizamini abo bana kugira ngo bazaje baravura abana neza, kuko babaga barabikoze kuri ibyo bipupe babaga baritojerejeho.

Ibigo by'amashuri habamo isomo ryitwa Laboratwari, abiga ibijyananye n'ubuvuzi babigisha uko bavura bakoresheje ibikoresho byo kwa muganga, n'abiga ibijyanye n'amashanyarazi babereka ibikoresho bakoresha iyo bari gukora amashanyarazi, abiga ibijanye na fizike nabo babereka ibikoresho bakoresha nk'iyo bari gukora indege, kubera ko abiga za fizike baba bazaba aba piraote.

Abanyeshuri mu mashuri bigaga gushushanya, bagashushanya amazu, bagashushanya n'abasirikare. Mu isomo ryo gushushanya babaga bafite amanota nago barabaha kugira ngo abanyeshuri baje bariga bazi no gushushanya, bityo bazajye no gukora ubukorikori nibagera hanze batazabura icyo gukora.

Mu Rwanda habagamo ikoranabuhanga ryo kwiga gukora amashanyarazi, iyo wize gukora amashanyarazi ucagingaga telefone ukanayikora, telefone zapfa ukazimenya uko uzikora amashanyarazi gapfa ukamenya uko ugakora. Habagaho amashuri gabyigishaga abantu bakaja kwigamo, abasore abakobwa kugira ngo bazaje baragira umurimo gunoze.

Abanyeshuri bambaye amataburiya biga ibijyanye no guteka, bafata ibitunguru, bagafata karoti, bagafata na mayonezi, bagateka ibiryo byinshi, ngo bifashe abanyeshuri kumenyaguteka indyo zitandukanye.

Abanyeshuri ku ishuri bagomba kwambara iniforome zisa amajipo n'amashati. Baba bahuje n'abahungu bahuje n'abakobwa, ku ishuri kugira ngo abanyeshuri batagirana amashyari ni uko bagomba kwambara impuzangano arizo niforome bajya kwiga bambaye neza, n'inkweto zifunze n'amasogisi. Bigira mu mashuri meza afitemo intebe za pipitiri, bakagira n'ibikinisho , bagira n'amamashini yo kwigiraho.

Abanyeshuri bajaga kwiga ikoranabuhanga, nk'ukuntu bakoraga amashanyarazi barabiberekaga abarimu babo. Kugirango ni bazarangiza kwiga, nabo bazaze barabikora. Bitumaga bunguka ubumenyi bwinshi buhagije, nabo bakazaja barabikora igihe barangije kwiga barabonye n'akazi.

Amashuri yigagamo abanyeshuri bigaga ibijanye n'ububaji, ibijanye n'ubwubatsi bigaga n'ikoranabuhanga bakoresha imashini bakiga bakoresheje n'amateleviziyo baragakoraga, n'amatelefoni bakubaka n'amazu bakubaka n'amayetaje.

Ubungubu habagaho kwigana ibikoresho bigezweho nko guha abanyeshuri bose mudasobwa, buri munyeshuri agakirika akiga kwandikira mu mashini, akiga gusoma mu mashini, akiga ibintu byinshi byinshi bitandukanye byo gukorera mu mashini n'ibizamini bimwe babikoreraga ku mashini.

Uburezi bwacu bw'ino aha mu Rwanda, abayobozi bakuru b'Igihugu bashyizeho amashuri yo kwigisha ibijyanye no guteka, kwigisha ibijyanye n'imyuga yo gukora nko gutwara amamodoka, gusuka n'imisatsi, abanyeshuri biga gusuka imisatsi bakiga kuvura inka, bakaba abaveterineri, abandi biga guteka bagakora no mu mahoteli, bakabona amafaranga yo gukoresha imirimo yabo itandukanye ya buri mu...